Inama idasanzwe yiga ku buzima, harimo umu mama wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'ikote ry'umukara n'abandi bantu bamuteze amatwi bicaye ku ntebe z'ubururu ndetse hari n'ameza, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima, ubuzima ni bwiza.

Abantu benshi bahagaze bari kwifotoza ku mirongo ibiri imbere n'inyuma. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, avuga insanganyamatsiko bari barikwigaho mu nama bahozemo mbere.

Abantu bateraniye hamwe bambaye imipira y'icunga aho bari gukora umuganda bari guhinga akarima k'igikoni bateramo n'imbuto kugira ngo barwanye indwara ya bwaki cyangwa se indwara ziterwa n'imirire mibi.

Abantu benshi bicaye batatanye harimo abana, ababyeyi ,abagabo, n'abasore. Bakaba bahagaze imbere y'inyubako isakaje amabati y'umutuku hakaba yamanitsemo ibendera ry'u rwanda ndetse n'amashitingi y'umweru abarinda izuba.

Muri gahunda y'ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, aha ni igikorwa cyo kwamamaza ibijyanye n'ubuzima bwiza, niyo mpamvu abaturage bava imihanda yose kugira ngo baze kumva abantu babatumiye, kugira ngo bababwire ibijyanye n'ubutumwa babazaniye.

Umwana wambaye ijipo y'umutuku afite imisatsi ya menshi mu mutwe bigaragara ko ababyeyi bamwitaho, ari gukaraba intoki kuri rubine yatezeho ibasi, bigaragara ko ababyeyi be bamutoje isuku akiri muto.

Niumugezi rusange aho bavoma amazi umwe ari gupomba, hari umuntu uri gupomba wambaye, agapira k'icyatsi n'umwe wambaye agapira k'umutuku uyateze, hari, amojerekani ari ku ruhande ndetse n'abantu bari hirya hari urutoki bari kwihera ijisho.

Turi ku ivomero rusange, rikaba rifite amabara y'ubururu n'umweru, hari umukobwa uhagaze uri kuvomesha, hari abandi bantu nabo baje kuvoma n'amajerekani atonze umurongo, uko baje bakurikiranye, injerekani hano igura amafaranga makumyabiri.

Abaganga cyangwa se abajyanama b'ubuzima, bari gukoma amashyi, imbere yabo hari umusaza w'umuhungu wambaye ikositimu n'amadarubindi n'umusatsi ariko akaba afite uruhara, inyuma yabo hari inyubako y'ikigo nderabuzima by'umweru.

Abana bagera muri batatu bambaye imyambaro isa, aho bambaye hasi ubururu hejuru umweru n'umuhondo, bakaba bafite amazi bari gukaraba intoki, imbere yabo hakaba hari robine ziri kuzana amazi nizo bagiye gutegaho mu kanya karakurikiraho.

Umugore wambaye ibitenge yicaye acigatiye umwana ari guseka, yamuranye kwa muganga none muganga ari kumuha umuti, ni byiza cyane kuzana umwana kwa muganga igihe ubonye kimwe mu bimenyetso mpuruza.

Umubyeyi wambaye agapira k'ubururu akaba afashe umwana we wambaye imyenda ya kake, akaba ari kumwoza intoki akoresheje amazi meza n'isabune, hirya hari ibiti birebire bifite bifite amababi asa icyatsi.

Umuganga wambaye agapira gasa icunga ari kugaburira umwana wambaye agapira gasa icunga acigatiwe na mama we wambaye agapira k'umwe mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Impaande yabo hari abandi bantu nabo baje gushaka izo serivise.

Ikirango cya inisefu ikigo cyita ku bana ku isi, aho kiri mu ibara ry'ubururu, harimo n'umubumbe w'isi, mo imbere harimo umubyeyi w'umumama, ari kurerebana n'umwana we bishimye.

Umujyanama w'ubuzima afite urupapuro mu ntoki rushushanyijeho abantu babiri, ari kwereka uyu mubyeyi ko ari byiza kuboneza urubyaro ukabyara abana ushobora kurera, ati'' nk'ubu ngubu uramutse ubyaye babiri ibyo ushaka byose wabibabonera" umugore na we ari kwakira izo nama.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye ahantu hamwe bambaye amataburiya y'ubururu, barishimye bari gukoma amashyi bigaragara ko bari gutera morari, bakaba bari muri shitingi isa umweru. Imbere yabo hari ikibuga kirimo ibyatsi byiza.

Abantu bagera muri batatu hari umugore wambaye umupira w'iroza, n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uwo mugore akaba afite umwana umuganga ari kumwitaho ari kumusekera kugira ngo umwana adatinya.

Umumama wambaye amadarubindi n'igitenge inyuma ye hari abana benshi cyane bamukikije, bose bari kureba bishimye bari kureba ikintu kiri imbere yabo, hashobora kuba hari insakazamashusho iri kwerekana utuntu turyoroshye kuko bose barishimye.

Abana bagera muri batatu aho bose bateze ibiganza byabo ku mugezi, bayobokaba intoki barishimye cyane, bagira isuku ni byiza gutoza umwana isuku akiri muto, kuko abikurana bikaba nk'umuco, bigatuma azagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu bagera muri babiri, bari kuvoma ku ivomero rusange, harimo umugore uteze agasharupe k'ubururu, kajya gusa iroza. N'undi wambaye agapira kanjya gusa iroza. Hirya hari ibiti birebire, bitanga amahumbezi.

Ifoto itwereka umwana wicaye, hari inzobere mu buvuzi imwe yambaye ingofero y'umweru n'agapira k'umutuku ari kumwitaho. Hari n'abantu bicaye aho ngaho bigaragara ko bashaka nabo ubufasha bigaragara ko ari nko kwa muganga.

Ifoto y'abantu benshi cyane batandukanye aho bari kwifotoza harimo abambaye amatabuririya y'umweru, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho nyabugeni hakaba harimo n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ifoto iriho abantu bagiye batandukanye bagera muri batanu, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo bagera muri batatu. Aba ni inzobere mu buvuzi.

Ni ku ivomero rusange aho abantu benshi baje kuvoma amazi, hari umwana uri kugaragara wambaye ikanzu y'umukara uri kuvoma, ndetse n'umugore wambaye ikanzu y'ubururu n'umukara uri kuvoma. Inyuma yaho hari abandi bantu benshi babahanze amaso.

Abantu bateraniye hamwe bambaye imyambaro y'umukara, icyatsi, umweru ndetse n'umutuku, bari kwifotoza sima y'aho hantu bari kwifotoreza irasa umutuku, inyuma hari inyubako ifite irangi risa umweru yubakishije amatafari ahiye, ku mpande hari ubusitani bwiza n'imikindo.

Abana benshi cyane bari koga mu kiyaga, bakaba bishimye ubona ko bazi koga, n'ingirakamaro koga kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza, kandi akaba akoze n'imwe mu myitozo ngororamubiri.

Umusaza umuyisilamu yambaye imyenda yo mu gitenge imbere ye hari umugabo w'umuganga wambaye itaburiya, akaba afite ikintu mu ntoki ari kumwigisha uko gikoreshwa, inyuma ye hahagaze umwana ndetse hari n'indabyo nyinshi.

Abantu bifotoje bari kumwe, imbere hari umugore cyangwa umukobwa wambaye akaribaya kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi n'akajipo k'ubururu aho yifotoje ari guseka.

Abantu benshi cyane batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, bagiye bazengurutse ameza asa umakara. Harimo abera n'abirabura buri wese imbere ye hari ibipapuro ndetse n'agacupa karimo amazi bigaragara ko bari kwiga ku nsanganyamatsiko runaka.

Ni robine iri kuzana amazi make, hari umwana uyiri imbere, aho ari gufata amazi akayitera mu maso, yambaye agapapira k'umukara n'umweru bigaragara ko ari agaseta yishimye, aya mazi akaba asukuye.

Ivomero rusange, aho bavoma amazi umwe ari gupompa, hari umugecuru cyangwa umumama wambaye agapira k'icyatsi n'ijipo y'umweru ari kuvoma, ari gupompa umwana niwe wambaye agapira k'umutuku ateze amazi, hirya abandi bantu bahagaze mu rutoki bashungereye.

Umugabo wambaye ikositimu ishati y'umweru na karuvati y'umukara, cyangwa se y'umutuku, yambaye amadarubindi aho inyuma ye hari icyapa cyanditseho ikigega gitera inkunga ibijyanye n'ubukungu. Hirya ye ari intebe eshatu zibereye aho.

Ifoto y'umusaza uri ku cyapa akaba yambaye amadarubindi ndetse yikarumye. Munsi ye handikishijeho amagambo mu iba ry'umweru ndetse n'andi ari hirya avuga ngo dufate neza urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Umwana wambaye imyenda y'umutuku, ari ku ivomero rusange yafunguye amazi akaba ari kuvoma, kuri iyo vomero hariho icyapa gisa umweru tuwereka ko tugomba kurikoresha neza cyane.

Abantu bari kuvoma ku mugezi rusange ni batatu, hari umwana uri kuvomesha ndetse n'abagore babiri baje kuvoma, hari amajerekani atonze umurongo agera muri munani, hakaba hari n'insina inyuma yabo.

Iri ni ivomero rya rusange aho amazi ari gusohoka mu gihombo hakaba hari intoki z'umuntu biri kuyatega, aya mazi ni meza cyane urabona ko uyanyweye byatuma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza.

Ivomo ry'amazi ririho abantu baje gushaka amazi ,amazi meza cyane rwose kandi asukuye, hariho ijerekani imwe, hariho abantu bane bitegereza ukuntu umuntu wundi ari kuvoma, amazi ni meza cyane kuko yifashishwa mu buzima ndetse no mu isukura no mu isuku.

Ni ku ivomero rusange aho hari robine iri kuzana amazi, hari umwana w'umukobwa wasutamye uri guseka atezeho ibiganza, bigaragaza ko agiye kuyanywa. Hirya hari ibijerekani bibiri, kimwe gisa ubururu gifite umupfundikizo w'umutuku n'ikindi gisa umuhondo n'akandi gato k'umuhondo, bigaragara ko bamaze kubivomera.

Abaganga bagera muri batatu bambaye impuzankano z'umweru n'ubururu, bambaye udupfukamunwa n'utunozasuku. Babiri muri bo bambaye amadarubindi bafite udukarito mu ntoki, bigaragaza ko harimo umuti mushya bari kwamamaza.

Abamama bahagaze hamwe bifotoje bambaye amajire asa icyatsi, harimo n'abagabo bagiye batandukanye, hari n'abambaye udupira dusa nk'incunga, bari gufata agafoto k'urwibutso, harimo n'abacigatiye abana.

Ni umumama uri guseka ucigatiye umwana imbere yabo aho ingabo iyo umukara ari kuvomeramo amazi ku ivomero rusange leta yegereje abaturage hirya hari ibiti birebire bitanga akayaga.

Abantu benshi bahagaze basandaguje bambaye imyambaro y'ubururu ,umuhondo n'umutuku umweru, icyatsi ndetse n'iyindi hagati hakaba harimo idarapo y'u Rwanda hari na shitingi y'umweru ndetse bakaba bari imbere y'ibiro by'akagari.

Umwana wambaye agapira k'icunga ndetse n'ipantaro y'ubururu, ari ku munzani iruhande rwe hari umugabo wambaye amadarubindi n'agapira k'icunga niwe wamushyizeho, ari kureba ko afite imikurire myiza, inyuma hari abandi bantu batandukanye.

Ni ukuboko k'umuntu bari gutera urushinge bigaragara ko yaje kwikingiza. Umuntu uri kumutera ni umuganga wambaye ishati cyangwa ikote ry'umukara n'udupfukamunwa cyangwa se udupfukantoki tw'umweru.

Abantu babiri baricaye, umwe yambaye imyenda ikoze mu bitenge yiteze n'igitambaro cy'umuhondo, undi yambaye amakositimu n'agapira k'umukara. Inyuma hari ibirango by'ikigo cyita ku bana Inisefu mu ibara ry'ubururu.

Iyi foto iratwereka umumama wambaye agafukamu, yiteze igitenge kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, yambaye agapira k'icyatsi ndetse n'apfukamunwa, arasa neza bigaragara ko yagiye gushaka serivisi kwa muganga.

Abana bagiye batandukanye bicaye bakoze uruziga bakaba bicaye bari kumwe n'abantu bakuru, bambaye udupira tw'ubururu twanditseho amagambo mui ibara ry'umweru, aho bicaye hari tapi zigiye zisa umukara n'umweru, icyatsi ndetse n'umutuku bateraniye hamwe bigaragara ko bishimye.

Aha ni ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi, aho hari inyubako ifite ibikuta bisize irangi ry'ubururu, hakaba hari intebe abantu baje gushaka serivisi bicara bategerererejeho, imbere hari umuganga uri kugenda yakira abaje mbere.

Abantu bicaye bateraniye hamwe mu nama. Imbere yabo hari umugabo uri kubakoresha inama, hari n'akana kicaye imbere y'umugore uhari, hakaba hari n'umugore ushinzwe umutekano uzwi nka polisi. Bakaba bari ahantu hatwikirije amashitingi y'umweru atatseho amabara y'idarapo ry'u Rwanda.

Abantu bateraniye hamwe bambaye udupfumunwa bakaba bicaye ku ntebe z'imbere bigaragara ko bari gukoresha inama, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru bigaragaza ko ariyo nsanganyamatsiko bari kuvugaho.

Uburyo butandukanye bwashyizweho na minisiteri y'ubuzima mu gihe cya covide, ubwo buryo bukaba bwarashyiriweho abana batoya ndetse n'urungano, urubyiruko rumaze guca akenge muri urwo rwego rwo kugira ngo bwifashishwe kugira ngo barinde ubuzima bwabo bwo mu mutwe ndetse n'uburyo butandukanye bakoresha muri icyo gihe cy'icyorezo.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe bukabije ari kugenda mu muhanda atoragura amashashi menshi cyane. Yambaye ibicuki bigaragara ko ari umusazi weruye cyane.

Abamama bagera kuri bane baricaye ku gatebe, imbere yabo hari undi mugabo wahicaye akaba yazamuye ipantaro yakandagije ikirenge hasi, bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima baje kumusura ngo barebe uko amerewe.

Agapira gasa ubururu ku maboko kakaba gasa umweru ahandi hose kanditseho amagambo eli pi esi ini hakaba hariho n'ikirango gisa icyatsi n'umutuku.

Aha ni mu nzu ikorerwamo inama hakaba hari abantu benshi bicaye ku ntebe zifite imifariso y'umukara, imbere yabo hari umugore uhahagaze bigaragara ko ariwe urikubagezaho imbwirwa ruhame, kugikuta bashyizeho insanganyamatsiko bari kwigaho.

Abantu benshi cyane aho bari gufata agafoto k'urwibutso bamwe bafite ibyapa biri mu mabara y'icunga ,icyatsi ndetse n'umweru bari guseka ,inyuma yabo hari ubusitani bwiza ndetse burimo n'imikindo.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru, imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiza cyane buri gusa ubururu ikirere nacyo kirasa ubururu, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Icyapa kitwereka intoki ziri guhobera akantu k'uruziga, hakaba hari icyapa kiriho mu ibara ry'umweru amagambo yanditse mu ibara y'icyatsi rivuga ngo wihogora.

Uyu mukobwa wicaye yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'isengeri y'umukara akaba arebye hejuru ari guseka yambaye n'umudari yambaye n'udukomo, uko bigaragara ashobora kuba afite ikibazo mu bwonko bwe.

Umuntu wicaye kukabaho imbere ye hashashe ikirago cyangwa se umusambi, inyubako yicayemo yarahomotse ndetse idirishya rirakinguye, uko bigaragara yihebye bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umusazi cyangwa umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, aricaye akaba ashinze ivi rimwe irindi arihagaritse ashinze ukuboko kumwe akundi agushyira hejuru, akaba gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye amakositimu akaba ari ahantu mu rwibutso, inyuma ye hari urukuta rwanditseho urutonde rw'abantu bari muri urwo rwibutso. Imbere ye hari indabyo, hari n'umukobwa wambaye akajire k'abakorerabushake, bigaragara ko uyu mugabo yaje kwibuka abazize jenoside.

Abana babayeho mu buzima bubi mu buzima butari bwiza cyane bitewe n'uko cyane cyane bambaye imyenda itari myiza ndetse bambaye n'inkweto mbi, biragaragara ko aba bana batishimye kuko bambaye inkweto zidasa neza ndetse n'imyenda yabo icitse.

Umuma wifotoje aho yazamuye agapapuro kandiditseho amagambo agiye atandukanye, uyu mumama yambaye amadarubindi n'ikanzu iri mu mabara y'umuhondo n'ubururu afite n'imisatsi ya kizungu.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yicaye ahantu muri rigore, itwara amazi imbere ye hari amashashi menshi yambaye igitenge n'ubusa hejuru, afite imisatsi yayanze arasa nabi cyane.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo afite ubwanwa buke ari guseka, biragaragara ko yishimye cyane buriya hari ikintu runaka cyamushimishije ndetse akaba arikukishimira.

Ni mu rugo rw'umuntuntu abantu bagera muri batandatu barahari, ni ukuvuga abantu bakuru batanu n'umwana umwe baricaye hari umukobwa wambaye agapira k'ubururu uri kubaganiriza.

Ahantu hari ikirango cya polisi y'igihugu kirimo igisiga, hakurya har’ikindi kirango cy'ikirangantego cya Repubulika y'U Rwanda hakaba handitseho amagambo Isange one stop center.

Umwana urikurira yikoreye amaboko, iruhande rwe hari umumama wambaye ijipo y'umutuku n'uturuko tw'umweru n'agapira k'umuhondo gatambitsemo uturongo tw'umukara. Afite ibintu bibiri mu intoki wagira ngo ni ibiti. Hirya hari abandi bantu benshi bagiye batandukanye bihugiyeho.

Umukobwa wambaye imyambaro y'abaganga iri mu ibara ry'umweru itaburiya, agapfukamunwa , ndetse na ga, ari gukura umurwayi iryinyo bigaragara ko yararirwaye none arikumufasha kurikuramo.

Umuntu uryamye kwa muganga akaba yasamye, hari abaganga bagera muri babiri bari kumuha serivisi zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, aho yasammye, bambaye ukantoki tw'ubururu bari kugenda bakoze utwuma mu kanwa kiwe.

Umugabo uri kuburoso amenyo akoresheje urudodo akaba afite ubwanwa, amenyo ye ni meza cyane ariguseka. Ukoresha urudodo usukura amenyo yawe bituma nta myanda isigaramo bityo amenyo yawe ntagire ikibazo.

Aba ni abantu bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru, bambaye udupira tw'icyatsi aho inyuma hari inzobere mu buvuzi ziri kugenda zibitaho, zikabasamura bigaragara ko bari kubapima amenyo.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe ari guseka yahuje udutoki agakikiza amenyo ye biragaragara ko amenyo ye ari meza cyane kubera ko ayagirira isuku, natwe biratugira inama yo kugirira isuku yacu amenyo akamera nka gutya.

Umugabo wambaye agapira k'umukara afite ubwanwa buke n'umusatsi muke cyane, akaba asa inzobe ari guseka yagaragaje amenyo ye yose aho ari kutwereka ibyiza byo kugirira amenyo ye isuku.

Umwana muto w'inzobe aho hari intoki ziri kumwasamura kugira ngo barebe ko amenyo ye ari mazima nibasanga ari rifite ikibazo bararikura kubera ko akiri umwana aracyari muto hazamera irindi ,inyuma ye harasa umutuku.

Mu bitaro rero habamo ibyumba bitandukanye byifashishwa n'abarwayi ndetse n'abaganga igihe bavura indwara zitandukanye. Iki cyumba kiri aha rero kirimo intebe zitandukanye zifashishwa n'abarwayi igihe babavura, harimo intebe nziza cyane rwose abarwayi begamiraho igihe babasuzuma ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu kugira ngo basuzume ubuzima bwa aba barwayi.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, harimo agatebe gasa k'umukara gafite amapine, ndetse n'akandi kantu gasa umweru hejuru hari insakazamashusho igi izimije ibikuta birasa umweru ndetse n'amakaro arasa umweru.

Umugabo uri guseka ufite urudodo mu menyo bigaragara ko ari gukorera isuku amenyo ye ari guseka cyane ntamusatsi afite n'ubwanwa afite ni mbarwa ni buke cyane rwose ni byiza gusukura amenyo dukoresheje urudodo.

Ni umumama wagiye kwivuza kwa muganga aho yari arwaye iryinyo none abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'amadarubindi bakaba bari kumuha ubuvuzi bamukura ayo menyo bambaye udupfukantoki, bafite ibikoresho byabagenewe bifashisha.

Abamama benshi cyane batandukanye, uko bigaragara bashobora kuba ari abahinzi kuko bari ahantu mu cyaro, harimo n'abagabo bazamuye amaboko bishimye, bari mu gisambu inyuma yabo hateye urubingo.

Abafite ubumuga bitabweho ndetse banafashwe mu mirimo itandukanye. Uyu mumama ari kugaragaza uburyo afashe neza uyu musaza ufite ubumuga, umusaza uri hano afite imvi yambaye amarinete ikigaragara cyo barishimye cyane.

Abaganga bafasha umurwayi bigaragara ko afite intege nkeya kandi bamufasha mu kugira ngo agire serivisi zimwe na zimwe akenera, abarwayi abarwayi bajya kwa muganga bafashwa neza iyo bahuye n'abaganga b'inzobere.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe ,bose bafite ivi, umusaza yambaye agapira k'icyatsi umukecuru ku umutuku ,imbere y'umusaza hateretse ikirahuri cy'amazi wa mukecuru ari kumwereka ingano y'imiti agomba kunwa.

Abantu bagiye batandukanye harimo abayobozi, barahagaze bari kwifotoza, imbere yabo hari utuntu tumeze nk'udutebe tubiri ndetse n'akandi gafite amapine kameze nk'agatanda. Hirya hari amahema atazwiho ibara ry'idarapo ry'u Rwanda.

Umusaza ugeze mu za bukuru afite umusatsi w'imvi n'ubwanwa bw'imvi, yambaye umupira w'umukara yicaye imbere y'ameza, hari mudasobwa ndetse n'ikirahure, umuganga ari kumwereka ikigero cy'imiti agomba kuba yafata.

Umusaza wambaye ishati ya shokora imisatsi n'ubwanwa byose ni imvi ari gusoma igitabo ndetse iruhande rwe hateretse ikirahure kirimo amazi yo kunywa.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye agapira k'umweru n'amadarubindi akaba ari kureba ku rupapuro mu gitabo ari kumwe n'umwana we w'inzobe wambaye agashati ka karokaro, buri wese imbere ye ateretse igikombe cy'umweru kirimo icyo kunywa.

uumusaza ugeze mu zabukuru ufite ubwanwa bw'imvi akaba ari kumwe n'umuganga, afite agatasi karimo amazi ndetse muganga ari kumuha ibinini agomba kunywa kugirango indwara arwaye yoroherwe.

Umukecuru ugeze mu kizero k'izabukuru yambaye agapira karimo uturungo dutambitse tw'umukara, imisatsi ni imvi yambaye amadarubindi, ari kurebana n'umuganga bari gusuhuzanya, aho yaje kwaka serivise, muganga nawe ari kumusekera agaragaza ko amwishimiye.

Umusaza wambaye amadarubindi n'imisatsi y'ivi ,agashati k'icyatsi n'agapira k'umweru akaba afite ikaramu ari kwandika ku mpapuro ndetse ibikuta birasa umweru mu nyubako arimo.

Umusaza ugeze mu za bukuru aho abaganga bari kumwitaho yicaye ku gitanda hari umuganga w'umukobwa uri kumuhagurutsa ari kumwereka uburyo yajya aragira kugira ngo imitsi ye igororoke.

Umuganga ari kumwe n'umumama, umuganga yambaye itaburiya y'akazi yo mu ibara ry'ubururu ndetse ari kumwe n'umumama nawe wambaye ishati nziza y'ubururu ndetse afite n'inkoni, uwo muganga afite icyuma cyifashishwa mu gupima uko umutima utera.

Umusaza ugeze mu za bukuru afite imvi yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umweru, ari kurebana n'umukobwa w'umuganga wambaye, agashati k'ubururu n'ipantaro y'ubururu amusekera bigaragara ko amwakira neza.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru aho bifotozanyije bari guseka cyane bishimye, umusaza ari gusoma umukecuru we amufashe ku rutugu nawe amufashe ku rutugu, umukecuru yambaye igitenge ndetse yiteze n'igitambaro cy'umutuku bose barirabura.

Umusaza ugeze mu zabukuru yicaye kwa muganga mu kagare hari umuganga w'umukobwa ukiri muto wambaye agapira ku'uburu uteze n'igitambaro wambaye n'ibisatsi yakizungu mu mutwe akaba ari kumuha serivise. Umusaza ari kumureba yishimye.

Umukecuru ugeze mu za bukuru afite imisatsi ya shokora afite ikirahuri mu ntoki imbereye hari ameza hari umukobwa w'umuganga bari kumwe wambaye itaburiya y'ubururu akaba ari kumwereka ikigero cy'imiti agomba kuzajya anywa.

Umuntu ufite intoki zakanyaraye, ugeze mu zabukuru, yambaye agashati k'umweru, ntabwo agaragara mu maso, akaba ari gukoresha intoki ze, agenda akina damu wenyine. Akaba ari umuntu ugeze mu za bukuru.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, aho hari umumama uri gushyikiriza undi igihembo cy'igikapu, ni umukecuru ugeze mu zabukuru, arikugishyikirizwa mu nama abandi baho bose bari gukoma mu mashyi, bigaragara ko babyishimiye.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi hashushanyijeho uturongontu tuvunaguye tugana ku gatima hariho n'umubare gatatu handitseho amagambo y'umweru avuga ngo ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza.

Abantu batandukanye bicaye bari mu nama bambaye impuzankano z'ibara ry'umweru. Hakaba hari umuntu w'umukobwa imbere wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umukara ari kubakoresha iyo nama' Inyubako barimo yubakishijwe amatafari ahiye.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro aho ari gutanga ikiganiro, yambaye kositimu na karuvati byiza cyane n'amadarubindi. Imbere ye hari kamera, aho bari kutwereka ku rukuta ishusho y'uwo mugabo nibyo ari kuvuga, byafotowe n'iyo kamera.

Abaganga babiri aho bambaye impuzankano z'icyatsi ni ukuvuga ngo ipantaro n'ishati bisa ubururu n'agapfukamunwa, umwe afite turunevise hari ikintu bari gukanika aho ngaho.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi hariho akarongo ku mweru kavunaguye kerekeza mu gatima ku mweru. Hariho umubare gatatu ndetse n'amagambo yanditse mu cyongereza mu ibara ry'umweru avuga mu kinyarwanda ngo ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza.

Umugabo n'umugore bahagaze ahantu hamwe bafite icyapa, inyuma yabo hari amadarapo rimwe ry'u Rwanda irindi ry'umweru. Bafite icyapa kiriho ikiranganro cy'u Rwanda ndetse n'iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira.

Umugabo n'umugore, bambaye amapantaro ajya gusa nka shokora, bahagaze imbere ku kintu gisa umukara, inyuma yabo hari icyapa cyanditse ngo inama mpuzamahanga, bafite ibyapa cyanditseho bibiri na mirongo itatu, mu ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho bari mu nama mpuzamahanga yiga ubufashasha buhabwa umugore muri Afurika mu bijyanye n'ubuzima, hari abantu benshi cyane, imbere hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko, hari n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Inyubako iteraniyemo abantu benshi harimo abambaye udupira tw'umutuku ndetse n'amapantaro y'umukara, bafite udusakoshi cyangwa uduhago mu ntoki turimo ibara ry'umweru bateraniye ahantu hamwe bari ku munsi ngarukamwaka wiga ku isuku.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu cyumba, bari gufata ifoto bigaragaza ko bari bari mu nama, kuko imbere yabo hari utumeza tw'uruziga turiho ibitambaro by'umweru, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kigaragaza insanganyamatsiko inama yabo yavugagaho.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu hamwe mu nama, imbere yabo hari abagabo babiri bafite mudasobwa imbere yabo, n'indagurumajwi bari kubakoresha iyo nama, inyuma yabo hari icyapa kiri mabara y'ubururu cyanditseho ngo duhagarike icyorezo cya mabage yabereye i Kigali ku itariki makumyabiri z'uukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo babiri bari ku ifoto, bose bambaye neza bambaye amakositimu, hejuru hari icyapa cyanditseho ngo kwita ku buzima, aba bagabo bakaba bazadufasha gusobanukirwa uburyo twakwita ku buzima bwacu.

Iyi ni ifoto itwereka amoko menshi agiye atandukanye y'uburyo twakoresha twirinda indwara nyinshi hari utuzu twinshi twanditsemo amagambo mu ibara ryu umukara hariho n'utumenyetso tugenda tumanuka n'utuzamuka turi mu mabara yu ubururu ndetse nu umutuku.

Inzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi, hari agatebe k'umukara gafite amapine, hari n'indi ntebe imeze nk'igitanda isa umweru ndetse n'ibyakijimye, ikaba ifite n'amapine aho umurwayi ayiryamaho bakamusunikaho.

Aha ni kwa muganga hari abantu benshi bicaye bategereje guhabwa izo serivisi, inyubako yubakishije amatafari ahiye, ibikuta birasa umweru. Hari ahanditseho ngo aho bakirira n'ahandi handitse ngo aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Inyubako nziza cyane. Biragaragara ko itangirwamo serivise zigiye zitandukanye. Ikaba ifite amapave, ndetse n'ubusitani bwiza cyane. Ikirere hejuru kiri gusa ubururu.

Inyubako nziza cyane. Mo imbere harasa umweru. Ibikuta ni umweru, amatara ari kwaka mu ibura ry'umweru, ndetse n'amakaro arasa umweru. Inzugi zaho zisa umweru n'umuhondo, zirafunze. Hirya harimo agatebe kamwe, gasa umukara.

Inyubako itangirwamo serivisi zerekeranye n'ubuvuzi kwa muganga hari ibitanda by'umukara ibikuta birasa umweru ndetse amatara ari kwaka umweru bigaragara ko ari byiza cyane arasukuye.

Inyubako irimo ibikoresho biri gusa ubururu. Akaba ari inyubako itangirwamo serivise z'ibijyanye n'ubuvuzi kwa muganga. Ibikuta birasa umweruru ndetse harimo n'ibyuma byifashishwa mu buvuzi.

iInyubako nziza cyane yo kwa muganga aho ifite korodoru irombereye imbere, hakaba hariho n'ibyapa igihe bitandukanye kuri buri muryango, ibisa umuhondo ndetse n'ibindi bisa ubururu.

Umugabo w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru udupfukatoki tw'ubururu, n'agapfukamunwa, afite umusatsi muke afite agacupa mu ntoki gapfundikije umupfundikizo w'ubururu, aho ari kureba imbere ye muri mudasobwa uko uwo muti ukoreshwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, ishami rijyanye no kurandura malariya, uyu muganga arasobanurira uyu muntu wundi uburyo butandukanye bwo kurwanya malariya, uyu muganga wambaye ishati nziza y'umweru n'ipantaro, arasobanurira undi muganga wambaye umupira utukura, ufite imashini imbere ye, ndetse n'icupa ry'amazi.

Abantu baryamye mu bitanda byo kwa muganga birasa umweru hariho amashuka y'ubururu n'umweru, hejuru hamanitse inzitiramibu. Aha ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ndetse ibitanda byaho bikaba bifite amapine.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ni ibitaro bigaragara mu karere ka Nyarugenge ahazwi nk'Inyamirambo, ibi bitaro bikaba byifashishwa mu kuvura abantu ndetse no gutanga inama ku bijyanye n'ubuzima, ibi bitaro bikaba bikoreshwa n'abantu b'ingeri zitandukanye batuye aha mu mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, aho hari ibikuta by'umweru ahandi bisa umuhondo. Hakaba hari n'udutebe bicaraho. Hari n'ibirahuri biherekana neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe ku buryo bwa etaje yasakaje amabati atukura ndetse isize amarangi y'umweru ku bikuta, izitijwe n'urugo rufite inkingi z'amatafari ahiye ndetse n'ibyuma bitukura, hanze haparitse imodoka hari n'abantu bahagaze muri icyo kigo mo imbere.

Uyu ni umurwayi uri kwa muganga aho yicaye muganga nawe ahagaze yambaye itaburiya barikurebana, bigaragara ko ari kumubwira indwara arwaye inyuma ye hari undi mumama waryamye wambaye ishati y'umweru uteze n'igitambaro cy'umweru n'umutuku.

Inyubako nziza cyane, ikaba itangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Iyi nyubako ikaba ifite ibitanda bishasheho amashuka y'umweru n'ubururu ikaba iri kwaka amatara ndetse na sima isa nk'ivu.

Iyi ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bugereza ya etaje, isakaje amabati y'umukara imireko ni umweru. Yanditseho amagambo ngo, ahakorerwa ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi. Bafite amajaride meza cyane.

Intebe nziza cyane zisa umukara, imbere y'aho hambitse utumeza tw'umweru, ibikuta by'inyubako zirimo birasa umweru, hejuru muri parafo harasa umutuku, amakaro arasa na yo shokora, hari akameza kari imbere gasa umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga irimo ibitanda biryamyeho abarwayi, hakaba hari n'abarwaza babo, hakaba harimo n'amatara ari kwaka umweru, purafo irasa umweru, ibikuta birasa umweru, ariko hasi harasa umukara.

Inyubako ni nziza cyane zisakaje amabati y'ubururu, zifite amatafari ahiye zisize amarangi y'umuhondo, amadirishya n'imyeru, hari n'amabati y'umutuku, hateyemo imikindo harimo n'ubusitani bwiza cyane n'utuyira twiza, hakaba hari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Igipangu cyiza cyane cyubakishije amatafari ahiye iruhande rwacyo hari igiti kirekire gitanga amahumbezi n'akayaga, hakaba hari n'icyapa kandi cyerekana ko ari ku bitaro bya Ruhengeri.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye imyenda y'ubururu, umweru, umuhondo, umukara n'umutuku. Imbere yabo hari intebe z'umukara ndetse n'urubaho bibereye aho, umuntu uri kugenda mu kagare hari n'abandi bantu babiri bicaye ku meza bambaye imyambaro y'umweru.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati, ikaba isize amarangi y'umweru, munsi hakaba hahagaze abantu bagiye batandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano. Iyo nyubako ifite inzugi zisize amarangi y'umuhondo.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho etage, ikaba iriho icyapa imbere cyanditseho "Africa Center of Excellence for Infectious Diseases of Humans and Animals".

Inyubako iridwa y'umweru ifite amarido y'umweru ndetse ibikuta, birasa umuhondo amakararo ni umweru kwakamo amavutara y'umweru bigaragara ko hatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zo kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hakaba hariho akarongo gatanmbika mo hagati kanditseho ngo isange wwni sitopu senta, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bugezweho; harimo udukarito ndetse n'uducupa; umurwayi wese uje arwaye bamureberamo umuti umukwiriye; bakawumuha hanyuma akawuywa agakira.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku, ikaba yubatswe mu buryo bugerekeranye isize amarangi y'umweru, ikaba yanditsweho amagambo mu ibara ry'umuhondo avuga ngo ibitaro by'akarere bya Shyira.

Ni inyubako nziza cyane itatsemo amabaki atandukanye, harimo amabara y'icyatsi, ubururu ikigina umweru ndetse n'ibirahure byiza cyane parafo n'umweru, amatara ari kwaka umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari agiye atandukanye ndetse isize amarange y'umweru, imbuga yabo irasa cyangwa iteyemo amapave, hakaba hari icyapa cyerekana ko ari ku bitaro by'Akarere bya Nyarugenge.

Inzu yo kwa muganga, irimo korodoro iromberereza imbere, iri kwakamo amatara ifite ibikuta by'umweru, ndetse hagiye hariho inzugi zinjiriramo zimwe zirakinguye izindi zirafunze.

Inyubako nziza cyane, zisakaje amabati y'umutuku n'ibikuta bisa umweru, mo imbere haparitsemo imodoka, harimo n'abantu bari kugendamo utwegereye n'ushinzwe umutekano, hakaba hari n'akuma kabariyeri gafungurira ibinyabiziga byinjira n'ibisohoka.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu hamwe aho hari igikuta cyubakishije amabuye hirya, hari ubusitani bwiza ndetse n'izindi nyubako zubakishije amatafari ahiye ziteye irangi ry'umweru n'amabati asu umutuku bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Ibi ni ibitaro byiza cyane byubatswe mu buryo bugezweho, bikaba bifite ubusitani bwiza cyane burimo indabyo ndetse na pasiparume nziza hakaba haparitsemo imodoka ndetse harimo n'ibiti bitanga amahumbezi.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga aho bari bitanda byiza cyane abarwayi baryamaho ndetse hagati y'igitanda n'ikindi hakaba hatambitsemo ilido ,harikwaka amatara y'umweru ndetse prafo n'amakara byose birasa umweru.

Umuganga wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari kuzinga supanete nayo isa ubururu, iri ku gitanda cy'umurwayi uryamye, ni mu nyubako irwariramo abarwayi bakabaha n'ibitanda.

Inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, ikaba isakaje amabati atukura, yubakishije amatafari ahiye ndetse ibirahuri bibonerana ari ibya fime. Hari umuhanda ugiyeyo wa kaburimbo ndetse hari n'ubusitani bwiza, hari n'icyapa kihagaragaza kiri muri ubwo busitani.

Abantu bari kwifotoza b'abakobwa ndetse n'umugabo umwe, biragaragara ko bishimye, bakaba bari imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi. Aho bahasuzumiraga indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane nini ikaba ari laboratware imbere yayo hari umugabo uhagaze mu rubaraza wambaye ikabu y'umweru n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari umuganga.

Abarwayi bari kwa muganga baryamye ku bitanda aho bigaragara ko baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima. Ibitanda birasa ubururu, nta muganga uhari ngo abe yahita abitaho ako kanya. Ibikuta by'inyubako barimo birasa umweru.

Umukobwa wambaye udupfukantoki tw'umweru akaba yambaye ishati y'icyatsi, ateze igitenge cyangwa igitambaro cy'umweru aho ari umuganga akaba ari kuvura umwana muto w'uruhinja wavutse ari guseka.

Inyubako nziza cyane irimo intebe n'ibitanda abarwayi baryamaho, bikaba bigiye bitandukanyijwe n'urukuta rujya gusa umutuku, amakaro arasa umweru ibikuta ni umweru, ndetse n'amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru, hakaba haryamyeho n'abarwayi kuri ibyo bitanda.

Imigozi bifashisha bari gusimbuka, hari inkweto z'umweru, hakaba n'udukoresho abaganga bifashisha bapima, niba umutima w'umuntu utera, hari n'agakoresho k'umutima kariho inyanya, pome, n'izindi mbuto.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yamabye ikabutura y'umukara n'isengegiri y'umukara akaba yapfukamishije ivi rimwe yashinze akandi kaguru, akaba ari mu nyubako ifite inkuta zisa umweru.

Inkweto nziza cyane zo mu ibara ry'umukara zamuye zifite lasi nziza cyane hariho n'icyapa cyanditseho bado biragaragara ko izi nkweto zikoreshwa mu bijyanye n'imiti kuko baziha abantu bafite ibijyanye n'imvune mu kuguru.

Ifoto y'abantu babiri harimo umwe ufite umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara, afite uruntu rumeze nk'ipapayi akaba ari umupira wa rugubi. Ari gukora siporo, agenda azenguruka mu kantu gafite amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'agashanete mu ijosi n'ubwanwa butari bwinshi, akaba afite agacupa mu ntoki ari kunywa amazi, ni byiza kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze, nawe nakugira inama yo kujya unywa litiro y'amazi ku munsi.

Igihe umuntu agize ikibazo akitura hasi, si byiza ko ako kanya tuhita tumukikiza tumushungereye ahubwo tumuha akanya agahumeka tugahamagara inzobere mu butabazi zikaza zikamufasha.

Ni mu nyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari igikoresho cyabugenewe umurwayi aryamaho hanyuma hakaba hari ikiziga ashyiramo umutwe kikajya kiririkaraga noneho kikamuha akuka akarushaho kumererwa neza, kikaba kiri kwaka mu mababara y'icyatsi.

Ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa nuri gukora imyitozo ngororamubiri; agakweto ka mbere kariho ibara ry'umuhondo; aka kabiri umutuku; aka gatatu icyatsi; aka kane ubururu; aka gatanu ni umukara.

Umuntu uretse kuruhande ari gutekereza bigaragara ko ashobora kuba afite ibitekerezo byinshi. Ni byiza ko umuntu yazajya anywa amazi kugira ngo agabanye ibitekerezo kuko byamubyarira ibibazo bikomeye.

Ububiko bw'imiti itandukanye, haragaragara imiti myinshi cyane yifashishwa mu buzima. Hari ibyiciro bitandukanye by'imiti. Hari imiti imwe iri mu dukarito tw'umuhondo, hari n'indi miti iri mu dukarito tw'ubururu. Ikigaragara cyo aha hantu ni heza cyane nubwo habikwa imiti, hanifashishwa mu kugenzura ubuziranenge bw'iyo miti.

Umugabo ufite gurudu ari kunywa amazi, afite agasuwime hejuru ku bitugu k'umweru, bigaragara ko ari ako kwihanaguza icyunzwe, ari kunywa amazi muri gurudu, y'ubururu ashishikaye bigaragara ko aratumagira ubuzima bwiza.

Ahangaha bari kutwereka ifoto itubwira imyitozo icumi wakora kugira ngo wongere ubuzima bwawe wirinde kandi nk'imvune n'ubwonko bwawe butere neza. Hari umukobwa wicaye ku ntebe azamuye akaguru kamwe n'undi uhagaze afashe ku ntebe inyuma yayo.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga, kakaba kari mu mabara y'umweru n'umukara, gafite amapine agera muri ane ndetse mo hagati harimo akabara k'umukara, hejuru k'urufatiro naho harasa umukara.

Imiti ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa abantu bakora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, hari uducupa tw'umweru n'utuntu dugiye dufite amabara y'ubururu n'umutuku ndetse n'ayandi.

Umugabo wambaye ekuteri afite agacupa mu ntoki k'amazi arekunywa, yambaye agapira keza arikunywa amazi ashishikaye. Amazi n'ingirakamaro mu buzima bwacu kuko atuma umuntu wanyweye agira imibereho myiza cyane.

Umukobwa ukiri muto aho yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku, yicaye ari gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, aho ari gukoza intoki ze kumaguru kugira ngo arambuke amere neza.

Ifoto y'umu mama wambaye ibitenge ari kumwe n'umwana we, bicaye ahantu mu cyumba gishashemo matera nyinshi ndetse ziriho ibitenge birambuye, umwana akaba ari guseka. Igikuta cy'iyo nzu gisize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru ariko akaba ashaje.

Umuntu wambaye agakabutura k'umukara, bari kutwereka ivi rye hashushanyijeho uturonko twanditse mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, bigaragara ko ashobora kuba yavunitse yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ahantu hashashemo tapi, hakaba hari ibirahure byiza cyane bisa umwe bibonerana, yazamuye ukuguru kumwe akurambika ku cyuma gihari cy'umukara ukundi kurambitse hasi.

Umuntu w'umuzungu aho afashe ubwoko bw'urubuto yambaye utwuma bifashisha basuzuma niba umutima utera neza yambaye kandi na karuvati, itaburiya yambaye irasa umweru.

Umuganga ari gupfuka umuntu akoresheje bande, aho yashyize ibipfuko byinshi ku maboko ye, uyu muntu akaba yari yagize ikibazo, bigaragara ko batwereka ko ari byiza natwe guhita tuza kwa muganga tukigira ikibazo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye agasengeri k'umweru ndetse aduteye umugongo. Akaboko kamwe ari kugakoza mu mugongo akandi yagafatishije mu nkokora z'akandi. Hakurya hari umusozi uriho inzu nziza cyane z'amabati y'umweru ndetse n'umutuku.

Ibi ni bimwe mu bikoresho wakwifashisha ukora imyitozo ngororamubiri; hari ukurya imbuto nk'inkeri ndetse no kunywa ji, no guterura kino cyuma cya ariteri; hari na metero kandi y'umuhondo n'umweru bifashisha bari gupima umuntu.

Iyi ni imbago iri mu mabara y'umweru, hasi aho bicumba hasi harasa umukara, hejuru ahajya ukuboko harasa umukara n'aho, hanyuma mu kijigira n'aho harasa umukara.

Inyubako itangirwamo serivise nyinshi zigiye zitandukanye by'umwihariko iz'ubuvuzi. Hari agatanda keza cyane k'umweru aho umuntu aryamaho kina kiziga kikikaraga kikamuha akuka. Ibikuta ni umweru n'amakaro ni umweru.

Umuntu ugeze mu za bukuru wambaye agashati k'icyatsi, akaba ari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru, amufashe ukuboko ari kumuteruza ka aliteri k'icyatsi, kugira ngo agoroke ndetse azane urutege mu maboko.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, afite imisatsi ya kizungu aho yazamuye amaboko hejuru ari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikirenge cy'igikorano, iki ni ikirenge baha umuntu wavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza kuza kwivuza kwa muganga, igihe wagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri, kuko baragufasha ukamererwa neza.

Ukuboko kwa muganga, kuri kwandika mu gakaye, iruhande rwe hari ibyuma bitandukanye, byifashishwa muri siporo, harimo ariteri z'umutuku n'ubururu, hari ndetse na bande umuntu yishyira ku kuboko, agakora imyitozo.

Uducupa turi mu mababara y'umweru turiho ibyapa bisa umukara byanditseho amagambo y'umutuku ngo ''hagarika kugira agahinda'' iyi n'imiti yifashishwa igihe umuntu yari muri siporo akagira ikibazo bayimuha uburibwe bukagabanuka.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara yambaye n'agasaha k'icyatsi ku kuboko akaba yicaye ahantu hamwe afite icupa ry'amazi uko bigaragara nta gushidikanya agiye kuyanywaho maze agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Akabogisi gasa umweru n'ubururu kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru hahandi hasa ubururu bikaba biri kwerekana ko harimo imiti ivura indwara zinyuranye.

Iyi ni ifoto itwereka abantu benshi bagiye batandukanye bari mu myitozo ngororamubiri. Hari abayikora bari kurwana, abayikora bapfukamye, abayikora bagenda bazunguza umutwe ndetse n'abiyicarira ku ntebe gusa bakinyeganyeza.

Ikirahuri kigusukwamo amazi n'icupa rijya gusa ubururu, rifite impeta y'umutuku aya mazi akaba agiye kunyobwa, ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo wambaye agapantaro k'umukara udukweto tw'umukara n'ubururu n'umweru yambaye agapira k'ubururu afite furari y'umuhondo na telefoni mu ntoki araye ayo kunywa amazi ,arayanywera muri gurudu isa ubururu.

Umugabo wambaye agapira gasa nk'ivu aho araramye azamuye ukuboko kw'iburyo ari kunywa amazi ayanywera muri gurudu ifite umupfundikizo w'ubururu, ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza cyane ubuzira umuze.

Agacupa gasa umweru kakaba karimo imiti gakondo ivura indwara nyinshi zigiye zitandukana inyuma harasa umukara wijimye. Nawe niba ufite indwara zananiranye nakugira inama yo kwegera abavuzi gakondo bakagukoraho rikaka ugahita ukira.

Agacupa karimo umuti wanditseho ngo aroye evera galeye, hashushanyijeho igikarubamba ndetse hirya hari agasahani karimo umutsima, hari imineke ndetse n'avoka byose bikaba byifashishwa mu buvuzi.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvumbuzi bw'imiti, ni ibimera biba biri mu ibara ryiza ry'icyatsi, bigaragara ko imvura yaguyeho, izuba rikavaho, bikaba ari ibimera byiza cyane kandi bitohagiye. Gusa ntabwo ari byo byonyine byifashishwa, hanakoreshwa ibimera babona ko byavamo imiti ndetse byaba bifite n'ubuzima bwiza.

Icunga rirahishije rirasatuye hari n'andi abiri iry'icyatsi bigaragara ko atarashya yo akaba adasatuye izi ni imbuto z'ingenzi cyane.

Agacupa kanditseho amagambo ku cyapa cy'icyatsi avuga ngo umuravumbaba, kakaba gafite umupfundikizo w'icyatsi ndetse karimo imite gakondo ivurwa, imiti igiye itandukanye.

Ibi ni ibimera bigiye bitandukanye aho biba bifite indabyo nziza cyane n'amababi y'icyatsi, indabyo zabyo zirasa umuhondo akaba ari imiti bifashisha mu buvuzi rusange ,aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye.

Ni ubwoko bw'ikimera aho gifite amababi asa icyatsi, kikikaba giteye ahantu mu ntabire bigaragara ko iki kimera ari umuti, cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye nyinshi cyane za kinyarwanda.

Uducupa tw'umweru ni'cyatsi twose dushushanyijeho icyatsi cya kinyarwanda kizwi ku izina ry'igikakarubamba aho kivura indwara nyinshi ziba zara naniranye za kinyarwanda.

Etajeri irimo uducupa tugiye dutandukanye, udusa ubururu, umweru ndetse n'umutuku n'icyatsi, aho turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo. Imbere y'akabati hari umuntu uhagaze wambaye imyambaro y'umweru.

Umusaza wambaye agapira k'umutuku. Imbere ye ari kumwe n'umukobwa wambaye agapira k'umweru witeze n'igitambaro. Imbere y'umusaza hari ikimera gifite utubabi dutoya akaba a gifashe mu ntoki bigaragaraga ko ari kucyamamaza nk'umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ni ubwoko bw'ikimera aho gikura kikaba kirekire cyane, ni igiti giteye mu gisambu gifite amababi make ariko aya mababi akaba yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bavura indwara nyinshi ziba zigiye zitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivise bitandukanye z'ubuvuzi bwa gakondo, aho hari etajeri irimo uducupa dutandukanye turimo iyo miti ya gakondo, iruhande rw'aho mo imbere harimo umugore wambaye itabuririya y'umweru akaba ariwe ucuruza iyo miti.

Agacupa k'umweru, hakaba hari ibinini birambitse iruhande aho, hari ibibabi byiza cyane by'icyatsi bita kapusine, bari kutwereka ko iyo cyeze baragisarura bakajya kugitunganya kikaza kiri kuvura.

Umumama wambaye iby'umweru, afite n'agashakoshi mu ntoki, aho ari gusoroma amababi y'ibimera iruhande rw'insina, akaba ari gushaka umuti arifashisha mu buvuzi gakondo, avura umwana we wagize ikibazo.

Imiti myinshi cyane itandukanye ya gakondo yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo harimo; udupa tw'umweru utw'icyatsi ndetse n'utundi tw'umuhondo tuyidushushanyijeho ibikakarubamba.

Amoko y'ibimera menshi agiye atandukanye, agenda akoreshwa mu kuvura indwara nyinshi cyane ziba zitandukanye za gakondo, cyane cyane izaba zarananiranye mu bitaro bya kizungu za kinyarwanda.

Iyi ngiyi ni imiti gakondo, aho iri mu gacupa gasa umuhondo. Hariho igishushanyo cy'icyatsi cyitwa igikakarubamba icyo mpora mbabwira ko kivura indwara zitandukanye.

Udusahani twinshi cyane dutandukanye, tugiye turimo imiti myinshi cyane na yo inyuranye, hari uturimo iy'umutuku, iy'umuhondo, iy'ubururu ndetse n'iyindi myinshi igiye itandukanye.

Agacupa karimo umuti witwa umuravumba akaba ari umuti gakondo uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye zoroheje ndetse n'izikaze ukaba ukoreshwa mu buvuzi gakondo.

Voka ivamo ibintu bigiye bitandukanye iyo umuntu aje kuyigura aragenda akayitunganya hanyuma akayizana yarabaye isabune wabona ko isabune ni nziza cyane nawe wayifashisha uri kumesa imyenda no koga umubiri.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe imiti gakondo, uyu ni umunsi wo muri afurika wabaye ku nshuro ya makumyabiri na kabiri, ukaba warabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, uyu munsi abaganga batandukanye barahura kugira ngo bagire inama bajya ku bijyanye n'ubuzima.

Mu buvuzi gakondo haba harimowo amoko menshi igihe atandukanye y'ibyatsi byifashishwa ibyatsi birasarurwa bikajyanwa mu nganda bakabitunganya, hanyuma bakabizana byaravuyemo umuti mwiza cyane uvura indwara zinyuranye.

Ikimera kidasanzwe kiba gifite indabo z’umweru, izi ndabo ni nziza cyane. Kuko zirabengerana kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, aho baba bavura indwara nyinshi zagiye zitandukanye.

Aha ngaha murahabona agacupa karasa umweru, ndetse n'ubururu karapfundikiye gashushanyijeho igisiga, bigaragara ko karimo ibikoresho gakondo, bivura indwara zitandukanye.

Ibi ni ibimera tumenyereye ku izina rya kapusine, rifite indabo z'umuhondo ndetse amababi y'icyatsi n'indabyo z'umweru n'umukara wijimye, bikaba bivura indwara zirimo inkorora.

Imiti itandukanye yifashishwa mu guhashya indwara zitandukanye, ubwoko bw'imiti bugaragara ni ubwoko bw'imiti byifashishwa igihe umurwayi yagiye kwa muganga, nk'ibigaragara rero ahangaha hari imiti iri mu ibara ry'umuhondo, ibara ry'imituku cyangwa se ibara ry'ubururu, iyi miti ikaba yifashishwa mu kurwanya indwara zitandukanye.

Ni mu gisambu, harimo ibimera byinshi bigiye bitandukanye, harimo igiti kirekire gifite amababi ndetse n'ibindi byinshi, ibi byose bikaba byifashishwa havamo imiti gakondo ivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Ni ubwoko bw'ikimera gisa icyatsi aho kiri ahantu hari gusa umweru, iki kimera kikaba cyifashishwa mu buvuzi gakondo aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'indwara za kinyarwanda.

Ubwoko bw'ibimera biba bifite amababi menshi agiye atandukanye, ibi bimera cyangwa se ibi byatsi, bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho babivuza abantu bafite indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye dushushanyijeho igikakarubamba hakaba harimo imiti myinshi yifashishwa mu buvuzi gakondo. Nk'uko bigaragara iki gikakarubamba baragenda bakagitunganya neza kikaza kiri kuvura indwara zinyuranye.

Iyi ni imiti gakondo iri mu ducupa dusa umuhondo dushushanyijeho igikakarubanda, hakaba hariho amabara y'icyatsi n'umweru ahanditse fa cumi na gatanu.

Ibyatsi kimeza by'ibimera bifite amababi ajya gusa umuhondo. Akaba yifashishwa aho baba bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye urugero nk'indwara z'amarozi.

Ibimera bigiye bitandukanye bishushanyije aha hantu harimo ibifite indabyo z'umweru, ndetse n'umuhondo n'amababi atoshye, bikaba biriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, rivuga ngo byagufasha gukira indwara waba urwaye baguha imiti gakondo.

Ibimera bigiye bitandukanye bisa icyatsi, ibi bikaba ari imiramvumba aho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara za gakondo, badashobora kuvura kwa muganga.

Amavazi ateyemo imiti gakondo igiye itandukanye, hari igikakarubamba n'indi miti yifashishwa, iyo byeze barabifata bakajya kubitunganya ahabugenewe bakabivanamo iyo miti ivura indwara zinyuranye.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi, kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gihanga aho bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara za kinyarwanda.

Ibyatsi byinshi cyane bigiye bitandukanye bifite amabara y'umweru umuhondo ndetse n'umutuku, n'indabyo ziba zisa iroze, bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo aho buvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Tungurusumu ni ubwoko bw'imbuto zikunze kwikoreshwa nk'imboga zifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ariko nanone zikunze kwifashishwa nk'ibitunguru.

Akarahuri karimo imiti y'indabyo ndetse hari n'utundi tw'imyuko turimoimiti y'umuhondo n'ibinini, uducupa turasaumukara dufite imipfundikizo y'umweru hari imiti batunganya bakayivuza indwara gakondo.

Ibiribwa bitandukanye bigizwe n'imiti gakondo, hagaragara inanasi nziza cyane, nini cyane ndetse n'amabisiwi atandukanye n'amashokora, ni imiti yifashishwa mu bijyanye n'ubuzima, biragaragara ko ari imiti ikoreshwa ya gakondo, gukoresha imiti ni byiza cyane kuko bifasha ubuzima.

Ibi ni imwe mu miti yifashishwa mu buvuzi gakondo aho tubona inanasi ndetse n'imineke, iri gusa umondo. Hari n'indabyo z'umuhondo ndetse n'udukarito turimo imiti igiye itandukanye.